Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari indangururamajwi, urabona ko ari kuganira n'abanyamakuru, inyuma ye hari icyapa cyanditseho izihirwe na MTN, ndetse hari n'abandi bantu bambaye utujiri dutandukanye twabakozi ba MTN.

Inyubako ifite amarange y'umweru n'inzugi z'amabara y'umukara, imbere yiyo nyubako hari akantu gakoze mu mbaho gateyemo indabo, iruhande rwako hari akazu gatoya gakoreramo banki popirere.

Akazu gato k'umutuku dukunda kwita kiyosike gakoreramo sosiyete y'itumanaho twita eyateli Rwanda, ako kazu i ruhande rwako hari abantu bahagaze ndetse harimo imodoka, ku ruhande hari umudamu uri gucuruza imineke munsi y'ako kazu hari umuhanda.

Abagabo babiri ndetse n'umugore bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru ayo meza kandi hariho impapuro z'umweru ndetse n'amacupa y'amazi, inyuma yabo hari ibirango by'umweru n'umutuku bya Airtel mani.

Abagabo ndetse n'abagore benshi bambaye imyenda itandukanye, iy'icyatsi, y'ubururu, iy'umuhondo, iy'umutuku, banitse ibigori ndetse bari no kubihungura.

Imodoka y'ubururu iriho ibirango by'mweru ndetse n'umuhondo, hariho akannyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, ubundi ukemeza, ugakoresha MOMO, uburyo bwo kubika amafaranga cyangwa kuyohererezanya.

Agace gakorerwamo ubucuruzi, karimo amaduka menshi atandukanye, harimo umuhanda w'ibitaka urimo imodoka ndetse n'abana benshi, bari muri iyo mihanda.

Abantu benshi bicaye ahantu heza, hari amatara yaka, hari ibishushanyo byiza, bicaye hamwe buri wese ari mu bye, ndetse kandi buri wese afite icyo kunywa.

Iduka ririmo utubati twinshi dutandukanye, turimo ibisuguti, ama bombo, amashokora amasorori ndetse n'amacupa arimo amazi.

Iduka ricuruza gaze yifashishwa mu guteka, impande y'iryo duka hari irindi duka, ribamo ibikoresho byifashishwa ku mashuri, nk'amakaye, amakaramu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye yaba ibyo guteka ndetse n'ibyo guhita urya ako kanya, harimo intoryi, harimo karoti, harimo amagi, harimo amabombo, amashikarete, amaji, amavuta ndetse n'indobo y'umweru irimo amandazi.

Iduka ririmo ibiribwa bitandukanye, harimo utubati turimo ibirayi, uturimo imifuka irimo ibiribwa, hariho amagi, hariho ibitunguru, hari amabumbo, hari amashikarete, hari ibisheke ndetse n'ibindi byifashishwa mu guteka ndetse harimo na kamambiri zo kwambara.

Ikarito irimo udushashi twinshi dufite ibara ry'umutuku, utwo dushashi turimo umutsima winyanya, uwo mutsima utuma ibiryo biryoha, ndetse bikanasa umutuku, uwo mutsima w'inyanya ufite izina ryitwa kenze.

Icyumba cyiza gifite amarangi y'mweru, ndetse kirimo n'amakaro, kirimo igitanda gifite ibara rya shokora, icyo gitanda kirimo amashuka y'umweru, iruhande rw'igitanda hari agatapi gato, ndetse hari n'akameza gatoya.

Icyumba iza kirimo amakaro gisizeho amarangi y'umweru, hari n'igitanda kiza gishasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego, iruhande rwacyo hari akameza gatoya kahateretse.

Inzu nini ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ibirahure by'umukara, iyo nzu igeretse kabiri, ifite urupangu runini cyane imbere yiyo nzu hari ubusitani buteyemo ibiti bishisha.

Inzu nziza igeretse kabiri ifite amarangi y'umuhondo n'ibirahuri by'umukara, ifite urupangu ruyizengurutse ruriho amatara hejuru ndetse n'ubusitani.

Icyumba gifite amarangi y'umweru, harimo akabati gatoya, igitanda gishashe neza, amashuka y'umweru, ndetse kiriho n'inzitiramibu, ku idirishya hakingirijweho igitambaro.

Isoko ricururizwamo imbabura iki gikoresho gikozwe mu ibumba ndetse no mu ibati.

Isoko riri ku muhanda wa kaburimbo, hari abantu bari kwambuka umuhanda ndetse hari na moto ziparitse ziriho abamotari, kuri iryo soko hariho n'idarapo by'Igihugu cy'u Rwanda.

Isoko ririmo amashuka menshi ndetse n'amarido bizinze neza, ni isoko riranguza amashuka ndetse n'amarido ndetse n'indi myenda itandukanye ya matela.

Ameza ariho masahani abiri ariho ibiryo ndetse n'ibirahure bibiri birimo umutobe n'amatasi abiri ndetse n'amakanya.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande zaho hateye ibiti ndetse hari n'amazu ndetse n'amapironi, muri uwo muhanda harimo moto umugabo uhetse igikapu wambaye imyenda y'umukara na bote z'icyatsi, kuri iyo moto haziritseho imikubuzo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, muri uwo muhanda harimo moto zitwaye abagenzi, moto y'inyuma itwaye umugore wambaye ipantaro n'umupira w'umuhondo ndetse na kasike y'umutuku.

Umumotari wambaye kasike y'umutuku, ahetse umugore wambaye kasike y'uubururu, bicaye kuri moto, bari mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakikijwe n'ibiti.

Umugabo wicaye ku igare rirerire rifite imyanya myinshi yo kwicaraho, rimwe rya kera ryasaga, umuhondo n'icyatsi, ari muri kaburimbo yambaye agapfukamunwa, iruhande rwa kaburimbo hateye ibishyimbo bishingiriye ndetse hateye n'ibitoki.